Abantu cumi na bane bahagaze imbere y'icyapa, batumbiriye imbere nk'aho bari gufata ifoto y'urwibutso, bagiye gutangira cyangwa basoje inama, nk'uko byanditse ku cyapa kiri inyuma yabo, bari kuvuga cyangwa bazanywe n'ibijyanye no kwita ku buzima bw'umubyeyi utwite.

Abantu benshi batandukanye bahagaze hanze, bareba ahantu hamwe, higanjemo abambaye amataburiya y'ubururu basa nk'aho bari gufata ifoto y'urwibutso, barangije cyangwa bagiye gutangira inama cyangwa ikiganiro runaka cyabahuje, inyuma yabo hari ibiti bigaragaza ko bari bahateraniye bafite icyo bari kuvugaho.

Abantu barindwi bahagaze mu marembo y'ivuriro ry'ibanze, harimo n'umuganga wambaye itaburiya y'umweru n'ikarita y'akazi, inyuma yabo hari abandi bantu, ndetse hari n'ibyapa bitandukanye biri kugaragaza indwara bavura, cyangwa imikorere yabo, batumbiriye imbere nk'aho bari gufata ifoto y'urwibutso, barangije kuganira cyangwa gukora inama runaka.

Abantu batandukanye bicaye mu nzu mberabyombi, higanjemo abambaye imipira y'icyatsi bose bari kureba imbere basa nkaho baje mu nama cyangwa bafite ikiganiro cyabahuje, imbere yabo bafite amakayi maremare ndetse n'uducupa tw'amazi.

Umwana ukandagiye hagati mu mugezi w'amazi atemba, arunamye afite ijerekani, arimo aravoma amazi, ku nkombe hari ibyatsi ndetse n'ibiti bitandukanye bigaragaza ko ari kuvoma amazi adasukuye agiye gukoresha imirimo, bishobora kubatera uburwayi butandukanye.

Umubyeyi uteruye umwana, yicaye mu nzu ari kumwe n'umuganga wambaye umwenda wera n'udupfukantoki, ari gukora ku mwana nkaho ari kumusuzuma cyangwa arimo kumuvura kugira ngo umwana agire ubuzima bwiza.

Umuntu wambaye itaburiya y'ubururu, ahagaze imbere y'inzu ari kwereka umubyeyi wambaye igitenge ifoto iriho abana babiri, uw'igitsina gore n'igitsina gabo, asa nk'umukozi wo mu bijyanye n'iby'ubuzima, uri kumwereka kwita ku mwana agakura akagira ubuzima bwiza.

Abantu batandatu bicaye ku ntebe imbere mu nzu mberabyombi, batumbiriye imbere nkaho barimo gutanga ikiganiro cyangwa bayoboye inama runaka, nk'uko byanditse ku cyapa kiri inyuma yabo bari kuvuga ku bijyanye n'ubuzima bwiza, bw'abantu.

Abana benshi bari mu kigero cyo kwiga bambaye impuzankano, bateraniye ku bigega biri hagati y'amashuri, ni ibigega karemano biteretse hejuru y'ameza, abenshi bafite ibikombe bamwe barimo baravoma, abandi barimo baranywa bigaragara ko ari ahantu mu kigo cy'amashuri bakura amazi yo kunywa. Inyuma yabo hari ibiti imbere y'amashuri bigaragaza ko ari amashuri yateguwe neza abanyeshuri bigiramo.

Umwana wikoreye ijerekani iriho icyapa cy'umuryango wita ku mibereho myiza y'abana ku rwego rw'isi, ari kumwe n'umuntu mukuru ufase ku kijerekani nk'uri kumufasha kugitwara bigaragaza ukuntu abantu bakuru bakwiriye kwita ku mibereho myiza y'abana.

Abantu benshi bateraniye ku mugezi uri hanze, hari ijerekani iri kuzamo amazi muri bo hari umugabo ufashe ku gikoresho cyo ku mugezi ari kubafasha kuvoma kugira ngo amazi aze mu ijerekani, inyuma yaho hari ibyatsi bitandukanye ndetse n'inzu bigaragara ko ari ahantu rusange baza gukura amazi yo gukoresha.

Abantu babiri basutaraye bari kumwe n'abandi bantu benshi bahagaze mu marembo y'inzu, basa nkaho bari gufata ifoto y'urwibutso barangije cyangwa bagiye gutangira inama cyangwa ikindi gikorwa cyabahuje, batumbiriye imbere bose. Iruhande rwabo hari indabo bigaragara ko ari ahantu hasanzwe hagendwa.

Umutwe w'umukecuru wambaye inigi mu ijosi ndetse nta mupira yambaye, hejuru yambaye ubusa, yiteze igitambaro cy'umweru, ari kureba hirya yasamye, ameze nk'ufite ibibazo bimugoye cyangwa wagize ikibazo mu mitekerereze, utameze neza.

Abantu benshi bateraniye hamwe hanze y'inzu, bamwe barahagaze, abandi bicaye imbere yabo, batumbiriye imbere nk'abari gufata ifoto y'urwibutso, basoje cyangwa barangije inama cyangwa ikindi gikorwa cyari kibahuje. Nk'uko byanditse ku cyapa kiri inyuma yabo, bari bari kuganira ku bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe. Inyuma yabo hari inzu, n'ibimera bitandukanye bigaragara ko ari ahantu heza bari bateraniye.

Abantu batanu bicaye hanze, ahantu hitaruye hatari abandi bantu, inyuma yabo hari insina n'ibindi biti by'ubwoko butandukanye, bamwe bafite impapuro mu ntoki n'amakaramu, bisa nkaho bagiye ahantu hitaruye kugira ngo bagire icyo baganiraho, bafate umwanzuro w'abantu bakuru.

Abantu icyenda bahagaze imbere y'imodoka, bari kwifotoreza ku rupapuro rumeze nk'impamyabushobozi, inyuma yabo hari imodoka, inyuma y'imodoka hari ihema, bigaragaza ko hari igikorwa bari bajemo, none bakaba bagisoje, bakaba bacyuye urupapuro rwerekana ko hari icyo bakoze bishimiye.

Umwana uhagaze impande y'isoko, arimo kurira yikoreye ukuboko kw'iburyo, ukw'ibumoso agufatishije hejuru y'itama, ameze nk'ufite ibibazo bimuhangayikishije cyangwa afite ikindi kintu gikomeye ari gutekereza kuburyo ari kurira. Ari mu isoko ririmo ibicuruzwa bitandukanye, ndetse hari n'abantu batandukanye.

Abantu bahagaze hanze, hagati yabo hari nyakubahwa madame Jeannette Kagame bafashe icyapa mu ntoki cy'umuryango witwa Imbuto, nk'uko byanditse ku cyapa kiri inyuma yabo bari baje mu bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe, bameze nk'abari gufata ifoto barangije cyangwa bagiye gutangira inama cyangwa ikiganiro cyabahuje.

Umunwa wasamye w'umuntu umezeze nk'uhagaze areba, imbere afashe intoki ebyiri azikoreshe kukananwa iruhande rw'umunwa, asa nk'uri kugaragaza amenyo ye kuko ari amenyo yera, atanduye kandi atarwaye. Bikangurira abantu kugira isuku amenyo ndetse no kuyakurikirana kugira ngo birinde uburwayi bwo mu kanwa.

Ifoto y'amenyo yo hejuru no hasi, mu ibara ry'umweru n'umukara yafashwe n'imashini zabugenewe n'abaganga b'inzobere, bashaka kureba mu imbere mu mizi y'amenyo ndetse naho amenyo atangirira kugira ngo barebe ikibazo kirimo, babe bavura uyu murwayi.

Itsinda ry'abantu batandukanye bari iruhande rw'inzu, bamwe baricaye abandi barahagaze, batumbiriye imbere nk'abari gufata ifoto y'urwibutso, barangije cyangwa basoje igikorwa kijyanye n'inama, gusuzuma cyangwa kwita ku buzima bw'amenyo, bitewe n'icyapa kiri inyuma yabo, bameze nk'abari gufata ifoto y'urwibutso.

Umukecuru ufite imbuto imbere ye ari kumwe n'undi muntu uri kumureba mu maso bameze nk'abishimye baseka, bicaye mu nzu isize amarangi y'umweru n'ibirahure byiza bigaragaza gusaza ufite ubuzima bwiza.

Umukecuru uhagararanye n'umuganga wambaye umwenda w'ubururu w'akazi, ndetse n'agakoresho gapima uko umutima utera akambaye mu ijosi. Ari kurebana n'umukecuru amwishimiye, amufashe mu kiganza cy'iburyo. Bari ahantu hari indabyo, zigaragaza ko ari ahantu basanzwe batuye, aba amukurikirana amwitaho.

Umusaza wicaye ku ntebe y'abarwayi mu nzu, ari kumwe n'umuganga wambaye umwambaro w'akazi w'umutuku, ari kumufasha gufata mu ntoki agakoresho, kamufasha kunanura ingingo, kugira ngo agire ubuzima bwiza.

Umukecuru ufashe mu ntoki isahani iriho salade, afashe mu ntoki ikanya, ahagaze mu nzu areba imbere aseka yishimye, bigaragaza ko abayeho mu buzima bwiza, agiye gusazanya akanyamuneza.

Abakecuru bicaye mu isoko ryiganjemo imbuto barimo kuganira, basa nk'abaje guhaha, cyangwa baje gucuruza.

Umukecuru wicaye mu nzu ari kumwe n'undi muntu uri kumureba mu maso baseka bishimye. Umukecuru arimo gukata imbuto, hari n'izindi mbuto zikase imbere ye n'inyanya zidakase. Bari munzu isize amarangi y'umweru ndetse n'imiryango n'amadirishya bifite amarangi y'umweru n'ibirahure bigaragaza ko asazanye akanyamuneza ari kumwe n'abakunda.

Abasheshe akanguhe babiri bakuze bari kwirukanka mu muhanda, baseka, bishimye, bambaye imyenda bakorana imyitozo ngororamubiri, basa nk'abagiye ahantu hitaruye, barimo kunanura ingingo kugira ngo bagire ubuzima bwiza.

Abantu batatu bakuze bicaye hamwe bari kureba muri telefone, inyuma yabo hari utubati ndetse bafite n'ibindi bikoresho bisa nkaho ari byo bakoresha imyitozo ngororamubiri, bameze nk'abafite icyo bari gukurikirana ku ikoranabuhanga.

Icyapa cyo ku munsi wahariwe ubuzima ku rwego rw'isi, kiriho ifoto y'umuntu w'igitsina gore uri kureba imbere, kiravuga ko dukwiriye kwita ku buzima ko ari ngombwa ndetse gisobanura cyane ingaruka z'icyorezo cya Korona virusi.

Umuntu wicaye ku ntebe areba hejuru yasamye, ari kumwe n'umuganga wambaye imyenda y'ubwirinzi umubiri wose, ari kumukoza akuma mu kanwa, nk'aho ari kumupima icyorezo runaka gishya tuzi nka kovide, inyumaye hari undi muganga wambaye ubwirinzi ufite ibindi bikoresho, ndetse hirya hari abandi bantu batonnze umurongo bigaragaza ko ari isuzuma rusange.

Abantu bicaye ku kabaraza k'icyumba cyo kwa muganga, nk'uko byanditse ku cyapa kiri inyuma yabo, baje bagana ibijyanye, no kwivuza mu myanya y'ibanga. Ni benshi birasa nkaho bategereje muganga, cyangwa bari kugenda hingira umwe umwe babafasha, babavura.

Abantu benshi bamwe bahagaze imbere y'icyapa, abandi bicaye imbere yabo, hanze batumbiriye imbere nk'abari gufata ifoto y'urwibutso barangije cyangwa bagiye gutangira inama nkuko byanditse ku cyapa kiri inyuma yabo, baje kwizihiza umunsi nyafurika w'umuryango ushinzwe ibijyanye n'imiti.

Igifuniko cy'igitabo cyifashishwa n'abarimu bigisha mu mashuri yisumbuye, kivuga ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere mu buryo bwagutse.

Inzu isukuye irimo ameza yabugenewe ndetse n'intebe za kijyambere, harimo n'ibindi bikoresho bitandukanye n'ibyapa bigaragaza ko ari kwa muganga aho bakurikiranira abarwayi bakabavura bakagira ubuzima bwiza.

Amarembo y'inzu ya kijyambere isize irange, umuryango urafunguye, ni ibitaro bivura indwara z'amaso nk'uko byanditseho, kandi hejuru y'umuryango hashushanyije n'ijisho.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo igitanda gishashe n'ibindi bikoresho nk'ibyo bajugunya imyanda, aho bakarabira ndetse n'icyapa cyerekana uko wakaraba intoki n'ibindi bikoresho bitandukanye bigaragaza ko ari aho batunganyiriza umurwayi, bakamwitaho, bakamuvura kugira ngo akire, agire ubuzima bwiza.

Abantu batatu bahagaze ku muryango wo mu cyumba cyo kwa muganga, umwe ateruye umwana, urebeye mu madirishya mo imbere, harimo abaganga ibikoresho bitandukanye ndetse n'undi mukozi n'ibitanda, bigaragara ko bakira umurwayi bakamukurikirana paka akize.

Umuntu wicaye mu kagari k'abarwayi, ari mu nzu isukuye ari kumwe n'umuganga wambaye imyenda y'umweru, bose bambaye udupfukamunwa, asa nkaho ari kumukingira cyangwa arimo kumutera umuti runaka. Inyuma yabo hari abandi bantu, abaganga ndetse n'abandi baje babagana bigaragaza ko bari mu gikorwa cyo gukingira cyangwa kwiteza imiti runaka mu cyumba cyo kwa muganga.

Inzu isukuye irimo icyapa gishushanyijemo amaso hagaragara imboni zitandukanye harimo imeza, intebe, mudasobwa n'ibindi bikoresho bifashisha bavura abarwayi b'amaso bigaragaza ko hari icyumba cyo kwa muganga bakiriramo abantu bafite ibibazo by'amaso bakabakurikirana, bakabavura kugira ngo babashe kubona neza.

Igipangu cy'inzu yubatse ku muhanda. Hariho icyapa kigaragaza ko ari ibitaro bya Ruhengeri, ku muhanda hari abantu benshi barimo kuhagenda ndetse mu gipangu haragaragaramo inzu zitandukanye, ibiti ndetse ubusitani n'indabyo, bigaragaza ko ari ahantu heza abarwayi bagana bakabakurikirana bakabavura bagakira.

Amarembo y'inzu bakiriramo ababyeyi batwite. Iruhande rw'umuryango hari inzu ebyiri zikozwe mu biti, hari umuntu w'igitsina gabo uri guturuka ahagana hirya ndetse n'undi muntu wegamye ku gikuta, bigaragara ko ari ahantu hasanzwe hagendwa n'abantu kugira ngo bakurikirane ubuzima bw'ababyeyi batwite cyangwa abana bari mu nda cyangwa ngo bababyaze.

Igishushanyo kiriho umuntu urimo kwirukanka yambaye imyenda akora n'imyitozo ngororamubiri, arimo guca muri karoti ndetse hari n'izindi mbuto z'ubwoko butandukanye nk'amashu, bigaragaza ko umuntu akwiye gukora imyitozo ngororamubiri kandi akagira n'icyo afata kugira ngo agaruze ibyo yatakaje akomeze kugira ubuzima bwiza.

Igikarito gishushanyijeho uducupa dutatu tuvamo umuti witwa leospolinne, ni umuti basiga ku ruhu ukavura indwara ziterwa n'udukoko twanduza.

Ivi ry'umuntu ryashyizweho ubudodo mu buryo bwihariye, kugira ngo bumufashe mu kwirinda imvune, kugabanya ububabare, cyangwa kongera ingufu z'imikaya nk'ivi, kugira ngo wenda abe yakora imyitozo ngororamubiri neza.

Igikoresho gikoreshwa n'abaganga mu kumva imikorere y'umutima, ubuhumekero cyangwa kumva izindi ndwara z'umubiri, bifasha mu gusuzuma umurwayi neza binyuze mu kumva amajwi y'umubiri mo imbere, gakunda gukoreshwa kwa muganga.

Icyuma kinini kiri mu cyumba cyo kwa muganga gifite umwanya umurwayi aryamaho ndetse n'umwenge mo hagati bakoresha bamunyuza mu cyuma kigafotora ibiri mu mubiri we, ndetse gifite n'agace gafotora mu mutwe, ubundi abaganga bakamenya ikibazo umurwayi afite, bakamukurikirana bakamuvura.

Igikoresho bambika ikirenge kikazamuka no hejuru aho akaguru gatangirira, gikoreshwa n'abantu bagize ibibazo mu kirenge cyangwa mu mpera z'akaguru, cyikabafasha gutambuka neza no kugenda cyangwa se abakinnyi baracyifashisha kugira ngo batagira ibibazo mu kirenge cyangwa aho akaguru karangirira.

Agakoresho gakozwe mu cyuma ndetse kariho n'umubiri w'umwenda, gakoreshwa cyane cyane mu mikinire no mu buvuzi bw'imikinnyi, gatuma umubiri ugira imbaraga zo kwihagararaho, gakoreshwa mu kurinda imvune, kandi igafasha muri rusange mu mikorere y'umubiri.

Umuntu wicaye mu nzu isukuye ku ntebe yabugenewe. Akaguru k'ibumoso kicaye bisanzwe gahinnye, naho ak'iburyo kararambuye, amaboko afashe ku mpande ku ntebe, ari kumwe n'umuganga wambaye umwenda w'umweru. Akaguru k'iburyo kari mu cyuma bigaragaza ko kari kumufasha kunanura ingingo kugira ngo gakore neza.

Umuntu uryamye mu mpera z'ikibuga bakiniramo, hari abantu babiri bambaye umwenda w'akazi w'umutuku barimo kumwitaho, ameze nk'aho yavunitse cyangwa bari kwereka abandi bantu uko batanga ubuvuzi bw'ibanze kuko hari umuntu urimo gufotora ndetse n'abandi bakinnyi bahagaze inyuma yabo n'abari gukina, bigaragara ko ari mu kibuga abantu basanzwe bakiniramo.

Imbuto z'ubwoko butandukanye ziteretse hamwe, n'igikombe kirimo amazi ndetse n'ikindi kirimo umutobe, ndetse hari n'ibikoresho bitandukanye, nka metero bushumi bakoresha mu gukora imyitozo ngororamubiri, ndetse umuntu yaba arangije kuyikora, agafata n'imbuto kugira ngo akomeze agire ubuzima bwiza, agaruze ibyo yatakaje.

Imbago y'abarwayi ikoze mu cyuma, ndetse hariho n'ahantu h'umwenda bafata; ikoreshwa n'umurwayi wagize ikibazo mw'ivi cyangwa akaguru muri rusange, arayicumbagiza kugirango abashe gutambuka.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo igikoresho umurwayi yicaraho, cyangwa akaryamaho, hariho n'intebe y'umuganga, harimo amatara yabugenewe, mudasobwa n'ibindi bikoresho bitandukanye bigaragaza ko ari ahantu habugenewe bakirira abarwayi, ndetse n'utubati turimo imiti, babaha imiti kugira ngo bayifate bakire.

Abantu babiri bambaye imyenda bakorana imyitozo ngororamubiri, umwe aryamye mu kibuga bakiniramo umupira w'amaguru, ukuguru kw'ibumoso kurarambuye hasi, ahinnye ukw'iburyo, umuntu umwe arunamye ari kumukanda mu ivi, bigaragaza ko ari kumufasha kugira ngo akire, amukandakanda ngo ntiyumve imvune yavunitse.

Ibibabi by'icyatsi byameze ku mashami ari ku biti biri mu murima, bikoreshwa mu gutegura imiti ivura indwara zitandukanye, mu murima hasi haragaragara ibiti ndetse n'amababi atandukanye yagiye ahunguka.

Udupfunyika ndetse n'amacupa atandukanye arimo ibintu bitunganijwe mu bimera, bikoreshwa mu kuvura indwara zitandukanye nk'uko bigiye byanditse ku byapa biteye ku macupa cyangwa kudupfunyika.

Ibibabi by'icyatsi birebire byameze ku biti biri mu murima ndetse hari n'ibindi biti, hasi mu murima hari ibisigazwa by'ibiti ndetse n'amababi yahungutse, ibibabi bikoreshwa mu gutegura imiti ivura indwara zitandukanye.

Icupa ry'umuhondo rirerire rikikijwe n'amacupa y'umweru, byose bishushanyijeho igikakarubamba ndetse n'inuma. Birimo amavuta atunganyijwe mu gihingwa cy'igikarubamba, akoreshwa mu kuvura indwara zitandukanye, zijyanye n'ubwiza nk'uruhu cyangwa gutunganya umusatsi.

Umuntu wambaye itaburiya y'umweru, ifite ikora ry'ubururu, yambaye n'ingofero n'agapfukamunwa ari gufungura igikarito kirimo umuti wa gakondo, hari imbere ye n'andi macupa atandukanye n'utundi dupfunyika bigaragaza ko arimo gusuzuma cyangwa agiye gucuruza imiti ituruka ku bimera.

Amababi y'icyatsi maremare yeze ku giti kiri mu murima, hirya hari ibindi biti bimeze nka cyo ndetse n'ibyatukuye, hasi mu murima hari imyanda y'ibiti byahaguye ndetse n'andi mababi.

Igiti gishishe gifite amababi matoya y'icyatsi kiri mu murima, inyuma yacyo hari ibindi biti ndetse ni ku mpande hari ibindi byatsi n'ibimera bitandukanye. Mu murima harimo n'ibindi bisigazwa by'ibiti n'amababi yatakaye hasi. Amababi y'iki giti akoreshwa mu gutegura imiti ivura indwara zitandukanye.

Uruhurirane rw'amafoto cumi n'abiri y'ibyatsi biri ku biti, yafatiwe mu mirima bisanzwe bihingirwamo, ibiti bimwe bifite imbuto, ndetse amababi menshi n'ay'icyatsi, kereka aho yagiye atukura, hamwe agatukura aba umuhondo, ibi biti bikoreshwa mu gutunganya imiti ivura indwara zitandukanye.